Abategarugori batandatu bicaye bakurikiye bameze nk'abari mu nama; bakenyeye imikenyerero ya kinyarwanda, bafite ibikoresho by'itumanaho abandi bafite amashakoshi mu ntoki.

Inzu iri kuberamo inama ndetse uyiyoboye n'umutegarugori wambaye amadarubindi muri iyo nama abahicaye barakurikiye ndetse ameza bicayeho ateguyeho ibitambaro bisa iroza buri wese afite ikayi imbere ye.

Abantu bari mu nama ndetse uyihagarariye yambaye ishatisa umukara afite, indangururamajwi mbere ye hari, undi ushinzwe gufata amashusho y'ibiri kubera mu nama, abandi bafite amazi y'inyange imbere yabo barakurikiye.

Abagore cyangwa se abategarugori babiri n'abagabo batatu, babiri muri bo abagabo babiri bambaye amadarubindi n'amakositimu mbere yabo hari mudasobwa barasa nk'abitabiriye inama mu ku meza hatatseho ibitambaro bisa umweru.

Umugabo wambaye ikositimu ishati y'umweru na karuvati, ameze nk'uri mu nama ahuje ibiganza ndetse akikijwe n'udupipiri tubiri tw'amazi y'inyange.

Abantu benshi bari mu nama muri abo benshi higanjemo abagabo, imbere hari umusirikare w'igihugu, ku meza y'imbere hari umusirikare w'igihugu n'umugabo wambaye amadarubindi na kositimu wifashe ku kananwa imbere ye hari mudasobwa abandi bose barakurikiye.

Abagabo babiri bicaye imbere barasa nkaho bari mu nama, umwe aregamye yarangaye undi ari kureba imbere. Imbere yabo hari impapuro z'umweru. Inyuma yaho hari abantu bicaye ndetse abo bantu imbere yabo hari udupipiri tw'amazi y'inyange.

Abategarugori babiri umwe wambaye amadarubindi n'undi utayambaye, bicaranye n'abagabo batatu umwe muri bo wambaye amadarubindi. Bashyize ibiganza ku meza ndetse imbere yabo hateretse amazi ari mu ducupa tw'inyange ndetse barakurikiye.

Ishusho yamamariza ikigo cy'u rwanda cy'imisoro n'amahoro ishushanyijeho umukobwa usengera mu idini rya isilamu n'umugabo wambaye ikositimu y'ubururu yari kwamamaza ikiganiro ku by'ingenzi mu misoro irimo kuvugagwa muri iyi minsi.

Icyapa kigaragaza ko hari itumanaho ryo mu kirere rya murandasi, muri ako gace cyangwa se muri iyo nyubako. Ikintu kikubwira ko ari iyo murandasi ni uko hari haba hashushanyijeho uturongo dutatu n'akadomo kamwe, bishushanyije mu mabara y'ubururu.

Umugabo cyangwa umusore wambaye hejuru ibara risa n'ivu ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye isaha ari kureba imbere, inyuma ye hari inzu iriho ibyapa bisa ubururu byamamariza banki imwe muri banki y'u Rwanda yitwa eko banke.

Ishusho yasohowe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro cy'u Rwanda gishishikariza abantu kwiyandikisha uyu munsi cyangwa se kwishyura ukandikisha kimwe cya gatatu cy'imisoro yawe bitarenze itariki mirongo itatu n'imwe ukuboza bibiri na makumyabiri rimwe.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

Bungabunga ubuzima bwawe uburinda icyorezo cyitwa korona virusi mu gihe uri mu modokari itwarara abagenzi, ishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Ahantu ndahabona umuntu mu kayira k'abanyamaguru arimo aragenda bika bigaragara ko hari n'undi muntu wicaye munsi y'umutaka wa emutiyeni ndetse bikaba bigaragara ko uyu muntu acuruza amayinite bikaba binagaragara ko hari imodoka y'umukara ndetse na taransifa y'amashanyarazi.

Menya abatuzi nihagira abantu baguhamagara bakubwira ngo urebe mu gikoresho cy'itumanaho cyawe amafaranga usigajemo uzabireke, tekereza kabiri mbere yuko ushyiramo umubare banga.

Ikigo cy'u Rwanda cy'imisoro n'amahoro kirakangurira abantu kumenyekanisha ubucuruzi bw'umwaka cyangwa igihembwe cya mbere bakanishyura bitarenze ku itariki mirongo itatu n'imwe mutarama bibiri na makumyabiri na gatanu iyo shusho iriho mudasobwa ebyiri .

Ishusho yamamaza yamamariza ikigo cy'itumanaho cya emutiyene gishishikariza abantu ko bashobora kuzamurwa mu ntera bagaragaje impano yabo ku buryo bashobora gutsindira asaga ibihumbi maganacyenda kugera kuri miriyoni y'amanyarwanda.

Umunara uri iruhande rw'inzu ebyiri inzu imwe isa nkaho ari iyubucuruzi inzu ya kabiri ifite amadirishya n'urugi bisa icyatsi ndetse hananitseho umwenda .

Inzu isa umuhondo isakajwe amabati y'umutuku, imbere y'iyo nzu hari igiti gifasheho insinga zitandukanye z'amashanyarazi zigiye ziri mu bice bitandukanye, inyuma y'iyo nzu hari imiturirwa myinshi.

Umunara muremure uriho imiyoboro y'amashanyarazi agenda mu bice bitandukanye uri ahirengeye imisozi n'imiturirwa.

Umunara muremure cyane urimo ucamo insinga z'amashanyarazi, zigera muri enye, ndetse ariko ukozwe mu ikoranabuhanga bakoresheje ibyuma bawukora ndetse harimo n'igicu gisa neza hejuru yaho.

Imodoka y'umweru itwara abagenzi yanditseho umutoza wa Kigali ku ruhande yayo hakaba hariho abagenzi ndetse n'abari gucuruza ibijyanye n'amakofi.

Umunara w'amashanyarazi uri imbere y'inzu ushinzwe ufite insinga zijyana amashanyarazi ahantu hatandukanye ndetse hari urusinga rumwe rw'uwo munara rufatanye n'igiti giteye iruhande rw'iyo nzu.

Inzu ifite ibirahure by'umukara isize amarangi y'umuhondo imbere yayo hari ururabo rwakuze inyuma yayo hari igiti kirekire gicamo insinga z'amashanyarazi .

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki abiri ahagaze kugira ngo abanyamaguru bambuke, harimo muri uwo muhanda harimo amatara ndetse harimo n'iminara, ndetse hari uwo muhanda mu nkengero zawo hariho umusozi.

Ivuriro rikuru ry'intara y'amajyepfo ryitwa Sehashibe imbere yaryo hari ubusitani harimo imodoka isa umukara ndetse hari indabo harasa neza hasize n'amarange asa umuhondo.

Ikinyabiziga kirekire cyafashwe n'inkongi y'umuriro cg se cyagize impanuka hariho abantu bafite itiyo nini y'amazi iri kuzimya umuriro uri kuri icyo kinyabiziga abantu bambaye impuzankano igaragaza abantu bashinzwe gutabara igihe habaye inkongi y'umuriro.

Inzu amarembo yayo arakinguye imbere y'ayo marembo hari imeza, hari n'udutebe dutoya tubiri ndetse n'umuntu wambaye imyenda yumukara hose arasa nkushaka kwinjira munzu.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu bwijimye, karuvati y'ubururu bwerurutse, ishati y'umweru ntabwo ari guseka afite ubwanwa ateretse umusatsi inyuma ye hari urukuta rw'icyatsi.

Uwari umukuru w'igihugu mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, wa wateye ahanini ko jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana mirongo inda na kane iba, yambaye kositimu, afite indangururamajwi majwi mu matwi ndetse nyuma ye hari abantu babiri.

Inzu iri kuberamo inama abayiyoboye bicaye imbere hagati yabo haranyuramo umwanya munini ubatandukanya n'abo bayoboye, bicaye mu ntebe z'umukara buri wese afite mudasobwa imbere n'amazi y'inyange.

Umukuru w'igihugu yambaye agapfukamunwa gasa umweru n'amadarubindi yakuyemo ingofero y'umutuku ndetse ashagawe n'abantu nakwita abafana biwe cyangwa se abamuri inyuma bazamuye amabendera y'ishyaka rya FPR.

Ni mu nzu mu cyumba kigairi cyahariwe gukorerwamo inama hateraniyemo abantu batanu abagore n'abagabo, umwe muri bo ari imbere ari kubasobanurira yifashishije ikoranabuhanga.

Ifoto y'umugabo wafotorewe hagati mubantu w'umuyobozi wambaye kositimu ufite na marineti arebye hirya.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye; nk'inyanya, ibitunguru, ibishyimbo ndetse n'ibindi nk'ibitoki mu buryo bwinshi cyangwa se mu buryo bukeya.

Umuhanda urimo imodokari ndende y'ubwikorezi irimo imifuka y'umweru ndetse na shitingi y'ubururu utwaye

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bibiri ndetse n'umugabo cyangwa se umusore uhagaze ku iteme asa nkaho ashaka kwambuka, umuntu utwara ipikipiki arahagaze hanyuma iyo modoka ndende irasa umuhondo yo irasa nkaho iri kugenda.

Umuhanda w'umukara impande yaho hari icyapa kigaragaza ikigo nderabuzima cya kabgayi amazu yubakishije amatafari ahiye afite amadirishya y'umweru nay'umukara asakaje amabati y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umugore hagaragara icyapa kirekire kiri mu ibara ry'ubururu cyanditsemo inyuguti nini ya P hakoreshejwe ibara ry'umweru munsi hashushanyije imodoka y'umweru itwara abagenzi ku mpande hagaragara indabo ndetse n'ibiti .

Ni inote z'amadorali hano harimo amadorari ijana muri izi note hariho n'ibiceri, harimo n'inote za magana atanu z'amayero n'inote ya mirongo itanu y'amayero.

Imodokari ebyiri zishinzwe kwikorera imizigo myinshi zihagaze mu muhanda, imwe iratwikiriye, itwikirijwe n'ikintu gisa umukara, indi ntabwo itwikiriye yikoreye imifuka minini.

Iteme iruhande rwaryo harimo umuhanda nyabagendwa, iburyo bw'umuhanda hari imodoka ndende iriho ishushanyijeho abantu bateruye abana isa nk'aho yamamaza, hanyuma ibumoso hari imodoka ebyiri n'amapikipiki abiri ayo amapikipiki ahetse abantu.

Umuhanda urimo imodoka ishinzwe kwigisha abantu gutwara ibinyabiziga, ndetse hicayemo umuntu uri kureba hanze wambaye ingofero yasohoye n'akaboko, ku zuba ryinshi.

Umuhanda urimo abantu, urujya n'uruza rw'abantu, hahagazemo imodoka zitwara abantu mu ntara z'ubwoko bwa Stella, abantu bazikorera, abakozi b'izo modoka bambaye imipira y'ubururu.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo imodokari y'icyatsi ndende ishinzwe gutwara imitwaro, harimo n'akayira k'abanyamaguru, ak'iburyo karimo umutegarugori wambaye ikanzu yubururu, ak'ibumoso karimo umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Aba aba abana babiri ndetse n'umugabo cyangwa umusore umwe bari ku binyabitende mu mujyi wa Kigali iruhande rwabo hari abagabo babiri umwe ari gukoresha itumanaho.

Ikibuga kitarasozwa kubakwa neza gisa nkaho gikinirwamo umukino witwa tenisi muri icyo kibuga harimo ahantu habugenewe ho kwicara ndetse abari kubaka icyo kibuga bambaye imyenda y'impuzankano isa icyatsi.

Mu busitani buteyemo ibiti bikiri bito bitarakura, harimo n'icyapa cyanditseho hagarara, mu muhanda mo hagati harimo amapikipiki abiri ari kugenda.

Icyapa cy'umuhondo cyanditsemo gahoro, Gahoro byandikishijwe amagambo y'umukara ndetse icyo cyapa harimo uturongo twumukara tugiye dufashe muri buri nguni y'icyapa.

Icyapa kiri mu ibara ry'ikigina cyanyanditsemo, umuhanda ukora hejuru. Inyuma y'icyo cyapa hari igikuta cy'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani muri ubwo busitani harimo icyapa cyanditsemo cy'uruziga cyanditsemo inyuguti ya pa gicishijwe iyo pa icishijwemo umurongo uberamye w'umutuku.

Icyapa gisize amabara y'umutuku ubururu n'umweru icyo cyapa n'uruziga ruciyemo umurongo uberamye gikunze kwerekanwa umuntu ukibonye akibwira ko bivuze hagarara.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Twiga cyangwa se twiga simenti aya n'amakamyo yabugenewe aba agomba kuzatwara ibikorwa bya twiga, birimo cement akaba ari campany cyangwa se kompanyi i ikorera muri tanzania, bakaba bakora mu mu buryo mpuzamahanga bajyana ama simenti, mu bihugu bitandukanye ndetse no mu gihugu cyabo cya Tanzania.

Imiturirwa iri ahitwa Kimironko yubatse mu buryo bugezweho, imyinshi muri yo isakajwe amabati asa umutuku, ayo mazu asize amarangi y'umweru ndetse akikijwe n'ibiti n'indabo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urugendo rutandukanye harimo imodoka zimanuka n'izindi zizamuka hari imodoka yumukara iri kuzamuka ndetse har' ipikipiki iri gukata.

Ikinyabiziga gishinzwe gukora imihanda kiri mu busitani ndetse inyuma y'ubwo busitani hari inganda izo nganda zisize amabara y'umweru n'urundi rusize irangi ry'ibara ry'icyatsi ryerurutse izo nganda ziri ahitaruye.

Inzu nziza ndende y'amagorofa abiri. Imbere yayo hari abantu batatu; babiri bari kuganira, undi arasa nk'uri kugenda. Hagati y'iyo nzu n'ubusitani harimo umuhanda w'igitaka.

Ishusho igaragaza umujyi wa Kimironko, kuri iyo shusho hariho amazu agiye atandukanye, yubatse mu buryo bugezweho ndetse hagati y'ayo mazu harimo ibiti n'amashyamba ndetse hari n'inzu y'amagorofa arindwi.

Inzu y'icyatsi ikodeshwa. Imbere yayo hari imiki imbere y'icyapa kigaragaza inzu y'icyatsi hari umukindo hari n'inzu ebyiri zitandukanye, hari n'indabo zisa icyatsi n'umuhondo.

Kaburimbo irimo utwara irimo umuntu urimo ipikipiki ndetse n'uyitwara iyo kaburimbo iri iburyo bwayo hari inzu ndende y'amagorofa menshi isize amarangi y'ubururu n'umweru.

Ihuriro ry'imihanda riishushanyijemo aho bambukira hashushanyije hakoreshejwe irangi ry'umweru ndetse harimo ibyapa byerekana amabwiriza yo kwambuka cyangwa se guhagarara harimo amapikipiki arenze ane.

Inzu irimo amabara y'umuhondo, ubururu, umukara ndetse n'umweru iruhande rwayo hakaba hari igiti, hakaba hari amagambo yanditswe kuri iyo nzu.

Imihanda ibiri, umwe ukikijwe n'ibiti bimeze nk'ishyamba, umuhanda umwe urimo imodokari isa umweru ifite imizigo, uwundi urimo ipikipiki iriho uyitwaye ndetse n'umugenzi.

Umwari cyangwa se umutegarugori wambaye imyenda y'umukara ari guca muri kaburimbo yambuka ahari imirongo y'umweru igaragaza ko abanyamaguru bakwiye kwambuka, umuntu ushinzwe gutwara ipikipiki arahagaze ategereje ko uwo mwari cyangwa se umutegarugori arangiza kwambuka.

Ihuriro ry'umuhanda w'igitaka iruhande rw'ihuriro hari inzu nziza cyane nini ndetse ku ruhande rw'iburyo hari imodoka ebyiri zihahagaze ndetse ukomeje kugenda muri uwo muhanda usa uhura n'amazu n'amamodoka ahagaze.

Imodoka ebyiri imwe irazamuka indi iramanuka, amapikipiki abiri yose ahetse abagenzi, na kaburimbi iri aho, igaragaza aho abagenzi bakwiye kwambukira b'abanyamaguru.